Ino shusho irimo iragaragaza kompanyi y'ubwishingizi irimo irashishikariza abantu gucuruza nta nkomyi, bavuga ko ubwishingizi ari ngombwa, kandi bwanagufasha mu bucuruzi bwawe.

Iri ni itangazo rijyanye n'ubwishingizi bw'ibihingwa ryatanzwe n'ikigo cyitwa Radiyanti, gitanga ubwishingizi hano mu Rwanda, aho bavugaga ko ubwishingizi bufasha mu ishoramari ritekanye, abahinzi bakabona umusaruro ushimishije, aho bavugaga ko inyungu zo gufata ubu bwishingizi, ari ukwishyura ibihombo, kwagura ubumenyi mu buhinzi no guhabwa inama z'ubuhinzi, kubona inguzanyo mu buryo bworoshye mu bigo by'imari.

Iri ni itangazo ryo kwamamaza ry'ikigo cyitwa purayimu enshuwarensi gikorera mu Rwanda, kikaba kirimo kuvuga ngo ibizazane by'ubuzima ntibiteguza. Ubwishingizi bw'impanuka bwa purayimu bugufasha kuba utekanye igihe cyose.

Iri ni itangazo ririmo ryerekana umugabo ndetse n'umugore we bose bafite amagare barimo batembera hafi ku mazi, aho itangazo ririmo rivuga ngo mu gihe cyawe cy'izabukuru tekana.

Iri ni itangazo ryatanzwe n'ikigo cy'ubwishingizi gikorera hano mu Rwanda kitwa Somarwa. Baba bari kuvuga ngo ubwishingizi ntabwo buteye ubwoba cyangwa se buhangayikishije mu gihe buri mu biganza bya nyabwo.

Itangazo ryatanzwe n'ikigo cy'ubwishingizi gikorera hano mu Rwanda, kitwa Radiyanti. Iri tangazo rero rikaba rivuga ko bihendutse kuba wafata ubwishingizi, ukanda akanyenyeri, magana atanu mirongo itatu na rimwe, urwego. Bakoresha interuro bavuga ngo "turi kumwe".

Iri ni iduka ubasha kuba bacururizamo imyenda ijyiye itandukanye, cyane cyane mu bigaragara ni iy'abagabo kandi si imyenda gusa yonyine bacuruza ahubwo banacuruza inkweto nziza cyane mu buryo bukwiriye.

Iri ni iduka mu bigaragara risirimutse cyane kandi ushobora kuba wahahiramo imyenda y'ibyifuzo byawe tugarutse yuko ahanini hari kugaragara amapantaro meza cyane kandi y'abagabo hakaba n'imipira yabo yo kuyijyanisha.

Iyi ni imipira myiza cyane, ubona ko itondekanye ku murongo, ikaba iri mu iduka mu bigaragara. Ikindi ino ni imipira myiza cyane ubona ko umuntu wayikoze, rwose yayitayeho igihe gihagije kugira ngo umuntu uzayambara azaberwe.

Iyi nzu biragaragara neza ko icururizwamo cyangwa se ibasha kuba yakwakira abantu bashaka byibuze kwambara neza cyane bigezweho ubona ko rwose umuntu wambitswe n'aba bantu agomba kuba yaberwa uko byagenda kose.

Iri ni iduka ryiza cyane mu bigaragara mu byerekeranye no gucuruza imyenda. Aho bafite amashati bigaragara ko ari meza cyane y'abasore ndetse n'amapantaro bidashidikanywaho neza ko yaba akozwe muri koto kandi afite uruhu rwiza.

Iri ni iduka bigaragara neza ko bashobora kuba bacururizamo ibikinisho by'abana. Ahanini akaba ari nk'ibikinisho by'abakobwa nk'uko bigaragara.

Iyi ni imipira ikurinda imbeho cyane dore ko ari n'imipira igezweho ubu ngubu myiza cyane wakwambara ugiye n'ahantu cyangwa se ugiye mu zindi gahunda zawe zigiye zitandukanye za buri munsi.

Uru ni urubuga rukoreshwa cyane ku isi hose ruzwi nka fesibuke, aho abantu rero akenshi bajya bagiye gushaka inshuti zigiye zitandukanye, iyi shusho rero irimo igaragaza iduka ubona ko ryihagazeho kandi ari irya kijyambere, aho bafite amakoti abereye abagabo ndetse n'inkweto zo kuyajyanisha.

Aya ni amashati meza cyane kandi agezweho, aho ari mu mabara atandukanye, nk'umutuku, umuhondo ndetse n'iroza, aya mashati rero akaba ari mu kabati ,aho bigaragara neza ko ashobora kuba arimo acuruzwa.

Iyi modoka nziza cyane yitwa HYUNDAI SONATA HYBRID 2012, ikaba ikorwa n'uruganda rukomeye cyane hirya no hino ku isi rwitwa HYUNDAI. Ikaba irimo igurishwa rero agera kuri miliyoni umunani.

Iyi modoka nziza cyane iri mu ibara rya kaki ndetse icanye n'amatara, yakozwe n'ikigo gikomeye cyane kitwa KIA, ikaba rero igurishwa miliyoni icumi z'amanyarwanda kugira ngo ube wabasha kuba wayigondera.

Iyi ni imodoka ni nziza cyane kandi ifite ikoranabuhanga, rigerweho kubera ko yakozwe n'uruganda rumwe mu zikomeye ku isi hose rwitwa Toyota, akaba ari imodoka rero bari kuvuga ko ihagaze miliyoni makumyabiri n'eshanu.

Iyi ni imodoka nziza cyane yakozwe n'uruganda rukomeye cyane ku isi, rwitwa Kiya. Akaba ari imodoka rero y'umukara, nziza, ihagaze amafaranga miliyoni cumi na zirindwi z'amanyarwanda.

Iyi ni imwe modoka nziza cyane kandi zigezweho, zikorwa n'uruganda rukomeye cyane hirya no hino ku isi rwitwa Kiya, ikaba rero yayigurishijwe n'ikigo gikomeye hano mu Rwanda cyitwa Akagera Motors, kuko ni cyo kigo kibasha kuzikura hanze maze kikazizanira Abanyarwanda bakabasha kuba bazigondera.

Iyi ni imodoka nziza cyane kandi igezweho, ifite ikoranabuhanga rihebuje cyane, aho hasi bakomeje bavuga ngo iyi modoka niba uyishaka byibuze ugomba kwitwaza miliyoni cumi n'ebyiri.

Iyi iri imbere yawe ni imodoka nziza cyane yakozwe n'uruganda rwitwa kia izwi mu gukora imodoka zigezweho nziza cyane kandi zifite n'ikoranabuhanga ryiza cyane riberewe na buri wese.

Iyi ni imodoka ikozwe mu buryo bwa kijyambere bwiza kandi bubereye ijisho, ikaba ifite tekinoroji igezweho ubu ngubu. Ikaba rero yarakozwe na none n'uruganda rukomeye cyane mu gukora imodoka, rukazijyana hirya no hino ku isi mu migabane igiye itandukanye rwitwa yundayi. Niba rero uyishaka ngo wabahamagara, imibare ya zeru karindwi, umunani gatandatu, gatatu gatatu, umunani kane, icyenda kane.

Iyi ni inote yavuguruwe y'amafaranga angana n'ibihumbi bibiri, ikaba rero ikoreshwa hano mu Rwanda, nyuma yuko isimbuye iyari isanzwe ikoreshwa kubera ko iyi ngiyi bikomeye cyangwa se bigoranye kuba wayigana maze bigatuma iboneka kandi inakoreshwa neza mu buryo bugezweho.

Aya ni amafaranga yo mu Rwanda akaba ari igiceri cya makumyabiri, gikoreshwa hano mu Rwanda kikaba gifite ikirangantego mo hagati, kiriho agaseke, amasaka, ndetse n'in'urusu.

Uyu mugabo rero wambaye imyenda myiza, mu bigaragara arimo abara amafaranga yo mu bwoko bw'amadorari, ari mu inote y'ijana, akaba rero ari kwifashisha akuma ko kuyabara, kaba gakoreshwa n'amashanyarazi. Agira ngo amenye umubare wa nyawo w'aya mafaranga aba afite.

Iki ni igiceri cya kera cyo mu Rwanda, cyabaraga amafaranga makumyabiri icyo gihe, kubera ko ubu ngubu cyaje guhindurwa, hashyirwaho ikindi gitandukanye nK'iki ngiKi kiri imbere.

Uyu ni umuntu bigaragara ko yambaye neza cyane kandi asirimutse, akaba arimo asinya yemeza ku rupapuro runaka afite hasi, hanyuma rero akaba azengurutswe cyane se akikijwe ku mpande ze, na mudasobwa zikoreshwa n'abakozi b'aho hantu.

Ibi ni ibyo kurya bizwi cyane nko kuba bigurishwaho ku muhanda, bikaba byitwaye isambusa, aho akenshi ushobora gusanga birimo inyama cyangwa se ibirayi bitewe n'uko uwabitetse yabishatse, bikaba rero bikundwa cyane n'abantu babiguze ku muhanda.

Aha ni ahantu bagurisha kandi bakanabika amata mu gihe atarabona abayagura cyangwa se abakiriya, maze baboneka bakayatanga afite ubuziranenge bwuzuye bitewe n'uko baba bayakonjesheje, maze akaguma ameze neza usibye n'ibyo banafite imitobe ndetse n'imitsima yo mu ngano.

Ahantu bahacururiza amata bakayabika ndetse bakanayagurisha bifashishije kino cyuma kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru kinini cyane kubera ko kirayakonjesha maze kigatuma abasha kuba yagumana umwimerere wawo mwiza cyane.

Iyi ni inkumi, umukobwa cyangwa se umugore, mu bigaragara urimo arishimira cyangwa se aryoherwa no kuba yanywa kino kiruguto cyanyuze mu ruganda, kigahindurirwa ibara kandi kikaba kiryoshye mu buryo bugaragara.

Aya magi ari mu cyabugenewe mu kuyabika kugira ngo ataza kugira ikibazo cyangwa se ngo agwe hasi. Akaba rero yaratewe n'inkoko kugira ngo azagurishwe maze nyuma yaho abashe kuba yakurwamo amafaranga runaka.

Aha hantu rero babifashijwemo na kino cyuma kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru mukeya, bashobora kuba bagurisha cyangwa se bakabika amata yabo mu gihe runaka bitewe nuko kiyakonjesha. Na ho ku ruhande rwacyo hari indobo irimo ibara ribonerana ry'umweru. Hakaba harimo imitsima ikozwe mu ifarine na yo bagurisha abantu.

Iri ni iduka ricuruza kandi rikabika amata ryifashishije kino cyuma kiri mu ibara ry'umweru kinini cyane mu kuyakonjesha maze akamara igihe, hirya rero urabona ko bacuruza nanone ibijyanye n'amazi ndetse n'imitobe y'abana cyangwa se undi muntu wese waba uyishaka.

Aha hantu ikigaragara ni uko ari ahantu bacururiza amata ya Mukamira, kandi ubungubu bakaba bakiriye umukiriya, kandi binagaragara ko bashobora kuba bacuruza amazi ndetse n'imitobe.

Aya ni amarindazi akozwe mu buryo bwiza kandi bugaragara, akaba rero aboneka mu gihe wafashe ibirimo ifarini ndetse ukabivanga n'ibindi bintu bigiye bitandukanye birimo: iby'isukari ndetse n'umunyu maze bikabyara amarindazi aryoshye cyane.

Iri ni itangazo ry’ikigo gikomeye cyane gikorera muri Afurika, mu bihugu byinshi bitandukanye. Iryo tangazo ryavugaga ngo: "Ushobora kwizigama, maze wamara kwizigama umaze kugira amafaranga menshi, ukabasha kuba wakwigondera icyo wazigamiye. Ayo mafaranga ni ayawe."

Iri ni itangazo ryo kwamamaza ryakoreshejwe n'ikigo gikomeye cyane mu byerekeranye n'itumanaho cyitwa MTN, kigenda gikorera cyangwa se gifite amashami mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye bya Afurika, aho bavugaga ngo kanda akanyenyeri rimwe gatanu rimwe urwego, maze ubashe kuba wakwiguriza amafaranga cyangwa se uburyo wahamagara inshuti n'abawe mu buryo butakugoye.

Uru ni urubuga ruzwi cyane hirya no hino ku isi, rukoreshwa ushaka kohereza, kwakira cyangwa se kubitsa amafaranga, rukaba rwitwa peyi pari. Uno muntu rero yari asigaranye kuri konti ye amadolari magana atanu na mirongo itatu n'abiri n'ibice cumi na bitandatu. Kugira rero abashe kuba yakohereza amafaranga runaka cyangwa se abe yayaguramo ikintu, bari bari kumusaba ngo abanze yemeze ibimuranga.

Iri ni itangazo ryatanzwe n'ikigo gikuru kandi kinini cyane kitwa MTN, gikorera mu bihugu byinshi kandi bigiye bitandukanye, muri Afurika aho byavugaga ko, ushobora gukanda akanyenyeri gatatu kane gatanu urwego, hanyuma ukigurira ifatabuguzi cyangwa se ama inite ushaka.

Uko bigaragara uno muntu yari afite amadorari ibihumbi cumi, ashaka kuyohereza mu mafaranga y'amanyarwanda, bamwereka ko araza kwakira, miliyoni zigera ku icumi z'amanyarwanda n'ibihumbi magana inani na mirongo itandatu, n'amafaranga magana cyenda na mirongo inani n'abiri.

Ubu ni ubutumwa bwemeza ko uwitwa Heinri Rutaganzwa, yabashije kuba yakwishyura amafaranga yose asabwa y'umusoro, angana na miliyoni imwe n'ibihumbi magana atanu na mirongo itatu by'amanyarwanda yasabwaga, akaba yayishyuye ikigo gishinzwe umusoro mu Rwanda cyitwa Rwanda Reveni Otoriti.

Iyi nyemezabwishyu yatanzwe n'ikigo gikomeye hano mu Rwanda gishinzwe ibijyanye n'imisoro kikaba cyarayihaye ikigo cyitwa Ngali hayidoropawa rimitedi, yemeza ko ibihumbi mirongo ine by'umusoro byabashije kuba byakwishyurwa neza, ndetse n'ibihumbi mirongo itatu byasabwaga.

Iyi ni inyemezabwishyu uhabwa n'ikigo gikomeye hano mu Rwanda, gishinzwe ibijyanye n'imisoro, aho inyemezabwishyu yavugaga ko ikigo cyitwa Sanit Bakary, cyishyuye amafaranga agera ku bihumbi icumi y'umusoro neza cyane.

Uyu muntu uririmo abona ko arimo arishyura umusoro asabwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro, akaba yishyuye ibihumbi makumyabiri by'amanyarwanda, arimo akoresha mudasobwa ye, kugira ngo akomeze yubake igihugu.

Iyi ni inyemezabwishyu yatanzwe n'Ikigo cy'Imisoro hano mu Rwanda, cyitwa Rwanda Revenue Authority, kikayiha ikigo cyitwa Tecno print Ltd kiyibwira ko, umusoro ungana n'ibihumbi mirongo icyenda wabashije kuba wakwishyurwa neza.

Iki cyemezo kiri kuri ino mudasobwa, ugihabwa n'ikigo gikomeye cyane mu Rwanda gishinzwe ibijyanye n'imisoro; aho kino ari icyemezo cyo kutabamo umwenda w'imisoro, aho utanga amazina yawe. Icyitonderwa kandi, iki cyemezo kimara amezi agera kuri atatu gusa.

Iki ni icyuma cyagenewe kubara amanoti y'amafaranga kugira ngo kirebe neza ko ingano yayo yuzuye kandi atanabashijwe kuba yakwiganwa ngo ashyirwe ku isoko.

Uyu muntu wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro ya kaki, akaba afite telefone ye mu ntoki ndetse yambaye n'impeta ku rundi rutoki rwe, arimo abara amafaranga cyangwa se arimo ayareba kandi urabona ko ari ay'ibihugu bigiye bitandukanye.

Uyu muntu ufite amanote y'amadorari y'ijana, arimo ayatanga kugira ngo babe bayamuvunjira, maze abone ayandi mafaranga yifuza, maze ayakoreshe yisanzuye. Mu buryo busesuye.

Iki cyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru kirimo kibwira abantu bose batambuka aho hafi ko bacuruza cyangwa se baba bakora iguranishwa ry'amafaranga y'ibihugu bitandukanye maze bakaba bayavunja.

Hano bano bagore babiri bahuriye ni ahantu mu bigaragara bacuruza cyangwa se bakora iguranishwa ry'amafaranga agiye atandukanye y'ibihugu byinshi kandi bikaba binagaragara hejuru ku cyapa cyabo kibaranga.

Uyu mukobwa cyangwa se umugore wambaye amadarubindi akaba yicaye mu kazu gatoya, birashoboka ko yaba acuruza ibijyanye n'itumanaho, cyane cyane nk'uko bigaragara inyuma ye ku byapa bigiye byanditsweho tigo, eyateri. Ibyo rero akaba ari ibigo bikomeye cyane mu bijyanye n'itumanaho.

Nk'uko icyapa kiri kuyivuga, aha ngaha bagukorera iguranishwa ry'amafaranga y'ubwoko cyangwa se y'igihugu cyose waba ufite, maze ukabasha kuba wahabwa ingurane yayo neza kandi mu mutekano usesuye.

Iki ni igitanda ubona ko cyubakanywe cyangwa se gikozwe mu buryo bwiza bwa kijyambere kandi busirimutse, umuntu wese yakwifuza kuba yaryamaho kugira ngo kimubure amavunane yaba afite.

Aka ni akabati gakozwe mu buryo bwiza cyane kandi bugezweho, kakaba gateretseho ivaze ndetse n'akantu kakwereka igihe kandi gashobora kuba kanagukangura, aka kabati rero gateretse n'impande y'igitanda uraraho.

Aha ni ahantu ubona ko bacururiza cyangwa se babasha kuba bakora intebe ubona ko ari nziza cyane kandi zikozwe mu buryo bugezweho, aho zinazana n'imisego myiza cyane ndetse n'ameza ubona ko bijyanirana.

Izi ni intebe zakoranywe ubuhanga budasanzwe cyane. Ubona ko ari nziza mu buryo buhebuje, aho nawe wakwifuza kuba wayigura. Zikaba rero zifite imisego myiza cyane kandi zinafite ibara ry'uburu ubona ko ribereye amaso. Zikanagira nanone akandi kameza ushyiramo hagati waterekaho ibintu byawe.

Iyi iri imbere yawe ni hoteli yitwa Onomo iba mu mujyi wa Kigali, aha imbere yacu turi kubona ahantu wogera hari amazi menshi ndetse naho waruhukira umaze koga hari intebe.

Aya ni amajyane yo kuba wakwishyirira mu mazi yawe ashyushye, maze ukabasha kuba wakwikorera icyayi kiryoshye cyane, kubera ko ano majyane akozwe mu buryo afite n'akagozi, ko ku buryo uba wayakoresha inshuro zirenze imwe.

Iyi ni inzu yubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho bubereye ijisho, ikaba igeretse inshuro zigera kuri imwe, na nyuma y'ibyo ngibyo ikaba ifite ahantu hanze heza ho kwiyakirira hamwe n'uwawe mu gihe mwasohotse.

Aha mu bigaragara ni ahantu heza cyane ho kwiyakirira nk'umuntu wawe w'umukunzi cyangwa w'ingenzi mu buzima bwawe, maze mugakomeza no kuryoherwa n'ijisho kubera ko ari ahantu heza cyane hateye neza, mu buryo bugaragarira ijisho.

Aha ni ahantu ushobora kuza, igihe ushaka kuruhura mu mutwe, ufite ibintu byinshi birimo bikuzahaza, hanyuma ukiyongera muri ano mazi meza cyane, warangiza ukicara kuri zino ntebe ziri ku ruhande maze ukaruhuka neza.

Muri ubu busitani harimo ikirangantego k'imwe muri hoteri zizwi cyane hano mu Rwanda kandi zinakunzwe, yitwa Marriot, isohokeramo abantu benshi biyubashye ndetse n'abandi b'ingeri zose.

Iki ni icyapa cy'ikigo cy'ubwishingizi gikomeye cyane kitwa Purayimu. Akaba rero ari ubwishingizi bufite amashami agiye yatandukanye, aho dusanga ko iri shami bari kutwereka aha ngaha ari irya Rusizi.

Iki cyapa kiri hejuru, kirerekana ko ino nyubako ari ahantu ushobora kuza ukahagera mu gihe ushaka kuba wakwishinganisha cyangwa se ushaka ubwishingizi busanzwe, maze ukaba wabuhabwa hano muri Amerika.

Iki ni icyumba mu bigaragara cyubakanwe ikoranabuhanga kandi rihebuje, ribereye ijisho rya buri wese ukirebeye, kandi n'ibikoresho babashije kuba bakoresha, nta handi wapfa kubibona, noneho bikiyongeraho nkuko bafite na mudasobwa imbere ya ikwereka amashusho kandi nayo ubona ko itatse mu buryo bwiza.

Iri ni rimwe mu mashami menshi y'ikigo gikomeye cyane hano mu Rwanda gitanga ubwishingizi, kikaba cyitwa Prime inshuwarensi nk'uko bikomeza bigaragara ku cyapa kiri hejuru y'ino nyubako, iri shami rero riherereye mu karere ka Musanze.

Iri ni iduka mu bigaragara ricururizwamo ibijyanye n'imyenda y'abagore, cyane cyane ibitenge. Abantu rero bakaba rero baza kugurira hano, ibijyanye n'ibitenge maze bakaba babicyura iwabo bakabyambara.

Aha mu bigaragara ni ahantu hari isoko kandi abantu bakaba bahahuriye, ari urujya n'uruza buri wese afite ibyo ashaka bitewe n'amahitamo y'ibyo yifuza kubera ko hari imineke, imyumbati ndetse n'ibindi byo kurya bihaboneka.

Ni muri gare hari haparitse imodoka za kwasiteri zikoreshwa na ajanse ya sitela.

Iri ni isoko mu bigaragara ririmo urujya n'uruza rw'abantu benshi, aho buri wese arimo ashaka cyangwa se arimo areba ikintu kimugenza, kugira ngo abe yabasha kuba yagera aha, mu gihe n'abandi barimo babicuruza kugira ngo babone inyungu maze babone ikibabeshaho, ahani byo bari gucuruza ni ibiribwa.

Iri ni isoko ririmo urujya n'uruza rwinshi rw'abantu bari mu ngeri ziri zitandukanye, harimo abana, abasore, abapapa ndetse n'aba mama. Urabona ko kandi hari n'ibicuruzwa byinshi, byiganjemo ibiribwa nk'ibitoki, n'ibindi byinshi.

Aka ni akaduka gatoya ubona ko bacururizamo ibijyanye n'umuco nyarwanda, aho harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ibiboshye n'ibindi bikozwe mu bundi buryo butandukanye, aho ubona ko bibereye ijisho kandi binatuma umuco ukomeza kwamamara ntuzime.

Iri ni isoko ririmo urujya n'uruza rwinshi cyane, aho tubona ko abacuruzamo biganjemo ari abamama, bakaba bacuruza imbuto, imboga ndetse n'ibindi bintu byifashishwa harimo nk'ibitunguru, puwavuro, inyanya kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda neza.

Aha ni ahantu h'amahitamo meza cyane wajya mu gihe waba wifuza kugura cyangwa se ushaka ibintu by'ibikoresho gakondo byo mu Rwanda dore ko hari ingoma, imigongo ndetse n'ibindi bikoresho by'umuco nyarwanda.

Aba ni abantu bahagaze hanze y'iduka, ubona ko ricururizwamo ibijyanye n'imyenda y'abamama, cyane cyane ibitenge byo kwiteza mu gihe bari mu rugo cyangwa se bari ahandi hantu bakeneye kubyambara.

Uyu muntu wambaye umupira w'umutuku ndetse n'amarinete, arimo ahabwa serivisi za MTN akaba ari kompanyi ikuriye ibintu by'itumanaho hirya no hino muri afurika mu bihugu bigiye bitandukanye, ayihabwa n'uyugu wambaye umuhondo kugira ngo amufashe kubona iyo serivisi iyo ari yo yose yifuza.

Uyu ni umubare ushobora kuba wakwishyuriraho, ukanze akanyenyeri, maze ukabasha kuba wakora serivise zawe wifuza, ukaba utangwa rero n'ikigo cy'itumanaho cyitwa emutiyeni, gikorera hirya no hino muri Afurika.

Uru ni urubuga rukoreshwa mu Gihugu cy'u Rwanda, bakaba barwita iguriro, ukaba rero ushobora kuba wagurira mu bihugu bikomeye cyane hirya no hino ku isi, cyane cyane nka Amerika cyangwa se Ubushinwa.

Uru ni urubuga rwitwa iguriro rya migoro, aho mu bigaragara bashobora kuba bagemura imbuto, imboga n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, birimo n'ibyo kurya kandi babikorera igihe.

Iyi ni inzu nziza bari kuvuga ko ifite ikibuga gihagije gishobora no kujyamo imodoka ebyiri, kandi bari kuvuga ko byibuze ufite miliyoni zisaga ijana na mirongo itatu, z'amanyarwanda ushobora kuyigura ikaba iri i kigali mu gihugu cy'u rwanda.

Iyi nzu nziza cyane yubatswe mu buryo bwiza kandi bugezweho bubereye ijisho, iri ahantu hitwa muri Kigali mu Rwanda, kugira ngo rero ubashe kuba wayigondera nuko byibuze waba ufite miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amanyarwanda.

Uno mugore arimo arasobanurira uno muzungu uri impande ye, amubwira ibya hano hantu cyangwa se baganira ku yindi ngingo runaka. Hano hantu rero n'ubundi bahagaze, urubona ko ari ahantu heza, hasirimutse, dore ko hafite n'aho kujya wogera mu gihe ushaka kwishimisha cyangwa kuruhura mu mutwe.

Iyi ni inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bw'icyitegererezo kandi bugezweho, bubereye ijisho, bakaba wari kuvuga ko iherereye hano mu mujyi wa Kigali, mu gihugu cy'u Rwanda, byibuze kugira ngo ube wabasha kuyigondera, ni uko waba aho ufite amadolari ibihumbi bibiri, ukajya uyishyura buri kwezi.

Iki ni icyumba cy'inzu bishoboka ko n'inyuma ishobora kuba igaragara neza kandi yubatswe mu buryo bugezweho. Bakaba bari kuvuga ko ihagaze byibuze miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'Amanyarwanda, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda.

Iyi ni inzu ubona ko yubakanwe uburyo bugezweho kandi ikabereye ijisho, kongeraho yuko inafite itara rikoranye ubugeni. Ufite rero amafaranga miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri z'amanyarwanda ushobora kuyigura, kuko iherereye muri Kigali, mu Rwanda.

Iyi ni inzu iri ahantu hitwa Kibagabaga mu Mujyi wa Kigali mu Rwanda. Hejuru bari kuvuga ngo dore icyo igihumbi cy'idolari cyangwa se miliyoni y'amanyarwanda yaguhesha muri Kigali, bari kuvuga ino nzu uri kubona imbere yawe igeretse inshuro imwe.

Iki ni icyumba cyiza cyane mu buryo bugaragara kandi kibereye ijisho bitewe n'uburiri buhari ndetse n'ukuntu cyubatse neza aha rero bari kuvuga ko ufite amadolari yawe maganinani buri kwezi cyangwa se ibihumbi maganai nani by'amanyarwanda ushobora kukigondera muri Kigali mu Rwanda.

Iyi ni inzu iherereye mu gace kitwa Remera mu mujyi wa Kigali, mu gihugu cy'u Rwanda. Ukaba ubona ko hari inzu nziza cyane. Ikaba ifite icyumba kimwe, aho kogera hamwe ndetse ikaba ifite n'igikoni kigezweho cya kijyambere.

Iyi ni inzu nziza cyane ibereye ijisho kandi ikaba yubatswe mu buryo bugezweho, aho byibuze bari kuvuga ngo niba ushaka kuyigondera ugomba kwitwaza miliyoni zisaga ijana na mirongo itatu z'amanyarwanda, iyi nzu rero ukaba wayisanga ahagana i Kanombe mu mujyi wa Kigali mu Rwanda.

Iyi nzu nziza kandi yubatswe neza ibereye ijisho, irimo iragurishwa. Ikaba iherereye ahitwa Kimironko kwa Sekimondo estate. Ikaba ifite ibyumba bigera kuri bitatu ndetse n'ubwogero bugera kuri butatu ku nyongera buri cyumba kiba gifite aho kubika imyenda yawe. Ibyo byose rero wayibonera ku bihumbi magana atatu.

Iyi nzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, irimo iragurishwa, ikaba iherereye ahantu bita i Kimironko mu Mujyi wa Kigali mu Rwanda, irimo ibyumba bine ndetse n'aho kogera hatatu, ukaba wayibona wishyuye ibihumbi magana atandatu bya buri kwezi.

Iyi ni inzu nziza yubatse bigezweho mu bigaragara, kubera ko isirimutse cyane, bakomeje bavuga ko ifite ahantu ho gushyira imodoka zawe ebyiri kandi ikaba iherereye ahantu bita Kanombe mu mujyi wa Kigali mu Rwanda.

Iyi ni inzu yubatswe mu buryo bwiza kandi ubona ko bubereye ijisho. Ikaba rero ifite ibyumba bigera kuri bine byo kuraramo, aho kogera hagera kuri habiri. Ikaba iherereye ahantu bita i Batsinda, i Kagugu mu Gihugu cy'u Rwanda. Niba ushaka kuyigondera biragusaba byibuze ibihumbi magana atatu.

Iyi ni inzu ntoya mu bigaragara barimo kubaka ahantu mu gihe bari kuvuga ngo ntago ukeneye inzu nini cyane kugirango ngo ube wayituramo ahubwo iyigiyi ushobora kuyibamo wowe wenyine cyangwa se ukazanamo n'umuryango wawe kubera ko ufite ibyumba bibiri.

Iyi nyubako igeretse inshuro zigera muri eshanu nziza cyane kandi yubatswe mu buryo bugezweho ni inzu irimo ibyumba bigiye bitandukanye ushobora gukodesha mu gihe cyose waba ufite amafaranga asabwa, ibi byumba rero cyangwa se ino nzu wayisanga ahantu bita Nyarutarama mu mujyi wa Kigali mu Rwanda.

Iyi ni inzu ikodeshwa iri ahantu bita kugisozi mu mujyi wa kigali mu Rwanda bakaba bari kuvuga ngo iyi nzu irimo ibyumba bibiri kandi irimo n'ubwogero bugera kuri bubiri.

Iyi ni inzu nziza cyane mu buryo bugaragara, aho bavuga ko byibuze niba ushaka kuyimara mu ijoro rimwe ugomba kwishyura amadolari ijana na mirongo itanu mu mujyi wa Kigali; naho niba ushaka kuyimaramo ukwezi kandi ukanagira ahantu ho kogera, ugomba kwishyura amadorari igihumbi na maganinani ku kwezi.

Iyi nzu nziza cyane y'icyitegererezo yubakanywe uburyo bwiza cyane kandi bugezweho, iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara wijimye n'igipangu cy'umukara iri kugurishwa, rikaba iherereye Kimironko zindiro mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda.

Iyi ni inzu igurishwa nziza cyane kandi ibereye ijisho, yubatswe mu buryo bugezweho. Ikaba igeretse inshuro zigera kuri imwe, byibuze ikaba ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwogero bwo kuraramo n'imbuga yayo ngari.

Icyi cyapa kirimo cyerekana ibyo ikigo gikomeye cyitwa genero taransiporo compani kibasha kuba cyaha buri muntu wese waba uyigannye, harimo ingendo zo hagati mu gihugu ndetse nyuma y'igihugu, bagurisha kandi bakanaranga imodoka amazu ibibanza ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye icya nyuma banakora n'ibijyanye n'ubwubatsi.

Iri ni iduka bigaragara ko ririmo urujya n'uruza rw'abantu benshi yaba abagore ndetse n'abagabo, barimo bashaka ibikapu by'abagore kugira ngo babe babasha kubigurira abantu babo.

Iri ni iguriro, cyangwa se iduka rigaragara ko risimutse, bitewe n'ukuntu ryubatse ndetse n'ibicuruzwa birimo, aho abantu b'ingeri zose baza bagahaha ibyo bifuza, hanyuma bakabyishyura, bakabitwara.

Ino nyubako mu bigaragara muri kino gice harimo urujya n'uruza rw'abantu benshi b'ingeri zigiye zitandukanye, barimo batambuka aho buri wese afite icyamuzanye hano, aho bamwe barimo bagura imyenda abandi bakagura ibitandukanye.

uyu mugabo ndetse n'uyu mugore begeranye bari kumwe baje muri rino duka kugira ngo babashe kuba bakwigurira imitako yabereye ijisho dore ko hari myinshi y'ubwoko bugiye butandukanye.

Iri ni iduka mu bigaragara ricuruza ibijyanye n'imyambarire cyangwa se ibindi bikoresho by'abagore, aho harimo nk'imipira y'imbeho ndetse n'amasakoshi kandi bakanacururizamo ibijyanye n'inkweto z'ubwoko butandukanye.

Uyu mugore cyangwa se umubyeyi afite mituwere y'ubururu mu ntoki ye y'ubwishingizi, isa nkaho avuye kwa muganga. Kandi akanaba afite n'ikindi gipapuro cy'umuhondo mu ntoki ze.

Aba ni abantu bari mu ngeri zitandukanye, aharimo abakecuru, abagore ndetse n'umupapa bose bari ku murongo bakaba bicaye ku ntebe bafite impapuro, bategereje guhabwa serivisi yaba yabazanye.

Aha ni mu kigo cy'abanyeshuri, aho bamwe muri bo mu bafite impano barimo bakina umupira w'amaboko. Mu gihe abandi babagaragiye barimo babateraimbaraga kandi babafana. Ikindi mu bigaragara batewe inkunga n'umushinga witwa Ejo heza.

Iri ni iduka ubona ko ryubatswe neza kandi cyane ubona ko ari irya gisirimu ku buryo ushaka kugura ikintu icyo ari cyo cyose uba uzi aho giherereye maze ukihera ijisho ukagura icyo ushaka mu buryo bukunogeraye.

Ibi ni ibiribwa byagenewe abana usanga muri rino duka, ushobora kuba wagurira umwana wawe maze akaba yaryoherwa n'uburyohe budasanzwe, bwa bino biribwa bitewe n'uko n'ubundi byakorewe kugira ngo biryohere cyangwa se binezeze abana mu gihe babirya.

Uyu mu mama cyangwa se umukobwa mu bigaragara arimo aragura ibintu akeneye, harimo ji n'ibindi bintu araza kwifashisha mu rugo iwe muri rino soko rigaragara ko harimo ibintu hafi ya byose wakenera mu rugo rwawe.

Uyu mugore cyangwa se umukobwa wambaye ingofero afite imisatsi miremire, akaba ahetse n'isakoshi arimo areba imbere ye ibijyanye n'ibiribwa ashobora kuba yishimiye kugira abashe kuba yabigurira hano abe yabicyura iwe.

Mu iduka aho umuntu aje yitwaje amafaranga ye kugira ngo abe yabasha guhaha ibintu runaka yifuza byaba ibiribwa cyangwa se ibindi bintu ashaka kwifashisha mu mirimo ye yo mu rugo.

Ibi bicuruzwa mu bigaragara biri ahantu mu iduka cyangwa se isoko, aho hafi ya byose ari ibinyobwa biba byavangiwe hamwe n'imbuto runaka, kugira ngo bitange uburyohe budasanzwe kandi buryohera buri umwe wese, ubinyweyeho.

Uyu muhanda mu bigaragara urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga byinshi aho byiganjemo imodoka z'ubwoko bwiza cyane zibereye ijisho, haruguru rero hari igice cyahariye abanyamaguru ndetse hakaba n'icyapa cyanditseho simba Kicukiro.

Aha ni ahantu hubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho, bubereye ijisho, urebeye no ku rusenge rwabo urabona ko rwubatse mu buryo bwa kijyambere, kandi bafite n'amatara asohora urumuri rwiza cyane ruhabereye, bakaba rero bacuruza n'ibijyanye n'imbuto ndetse n'iminywere.

Iri ni isoko, ryubakanywe uburyo bwiza kandi bwa kijyambere, ubona ko rinasirimutse cyane rifite ibintu by'umwimerere kandi bifite ubuziranenge, abantu rero bakaba rero bafite by'umwihariko ibijyanye n'imbuto, ukaba wabisanga hano.

Iri n'iduka mu bigaragara risirimutse cyane kandi rigurisha n'ibintu bikomoka ku bihingwa ndetse n'imbuto zigiye zitandukanyekanye, aho twavuga ko harimo; iminege, inanasi ndetse n'ibishyimbo biri k'uruhande.